Aha haragaragara umugabo usutamye wambaye ijire mo imbere yambariyemo umupira w'umweru w'amaboko magufi, yambaye n'ingofero y'urugara bigaragare ko hari ibintu ari kunywesha abana.

Aha haragaragara umubyeyi wambaye umupira w'ubururu urimo ibara ry'umweru ndetse wakenyeye igitenge, yambaye agapfukamunwa ari gukarabya umwana mu ntoki akoresheje amazi meza n'isabune.

Inyubako irimo umuganga wambayetaburiya y'umweru ndetse na ga, arimo araha umuti umwana mutoya, umubyeyi w'uyu mwana, yambaye umupira wo kwifubika ndetse afite n'umusatsi muremure.

Aha biragaragara ko ari mu ishuri, aho harimo abanyeshuri babiri bambaye impuzankano z'ishuri. Haragaragara umunyeshuri wazamuye akaboko, bigaragare ko ashaka kugira ikibazo asubiza cyangwa se akagira ikibazo abaza mwarimu we.

Urujya n'uruza rw'abantu bateraniye hano, bigaragara ko abo bantu baje guhaha, biragaragara ko iri ngiri ari isoko barimo, aho bamwe baje guhaha, abandi bakaba baje kugurisha ibiribwa bigiye bitandukanye.

Ku ivomo rusange ahagaragara abana bane baje kuvoma n'utujerekani, hari umugore uri gupompa amazi ngo aba bana babone uko bavoma, hirya y'uyu mugezi haragaragara agasozi kariho ibimera bitandukanye ndetse mu kayira gahari haragaragaramo imodoka.

Inyubako yateraniyemo abantu benshi batandukanye, harimo abagabo bafite uruhara ndetse n'abagore, imbere y'abo bagabo ku meza hateretseho amacupa arimo amazi yo kunywa.

Umwana wambaye umupira uri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umukara, bari kumusukira amazi ku ntoki ndetse ari gukaraba amazi meza n'isabune. Uyu mwana bigaragare ko yatojwe kugira isuku, cyane cyane yo mu ntoki.

Kwa muganga ahagaragara umuforomokazi uri gutera urushinge umwana ku kuboko kw'iburyo, bigaragare ko ari urukingo ari kumutera, inyuma ye hari agatente ari kunagamo imyanda, ku meza hateretse agakarito k'umuhondo ari kugenda akuramo inshinge.

Aha haragaragara abagore bari gukora umurimo wo guterura imifuka. Ni abagore babiri bari kumwe n'umugabo bari guterura bamuhereza, ahagaze hejuru y'imifuka, iyi mifuka birashoboka ko ari iy'imiceri, ibi ngibi nibyo bita uburinganire n'ubwuzuzanye.

Umwana w'umukobwa wambaye impuzankano y'ishuri, ari gukaraba mu ntoki kuri kandagira ukarabe, akabase kari munsi ya kandagira ukarabe kari mu ibara rya oranje.

Umwana uri ku ivomero ari kuvomera amazi mu gikombe cy'icyuma, uyu mwana yambaye agapira ka oranje k'amaboko magufi ndetse n'ikabutura y'ubururu, uyu mugezi ufite amavomero abiri, inyuma yawo hari ibiti birebire.

Aha haragaragara umugore wakenyeye igitenge, wambaye umupira w'umweru ari kumwe n'umugabo wambaye ishati y'ubururu, begereye urukuta rwubakishije amabuye inyuma yabo hagaragara idirishya risize irangi ry'icyatsi.

Urujya n'uruza rw'abantu bateraniye mu nama, bigaragara ko ari nk'umushinga waje guhurira hano, bambaye imipira isa y'umweru iriho ikirangantego kiri mu ibara ry'ubururu, inyuma yabo haragaragara ishusho imeze nk'iy'ibimera.

Inyubako isakaje amabati y'umutuku, isize irangi ry'umweru, imbere yayo haragaragara ikiraro kizengurukishijweho ibyuma bisize irangi ry'ubururu.

Inyubako yahuriyemo abantu benshi bari mu ngeri zitandukanye, aho hari kugaragaramo umubyeyi ucigatiye umwana, yambaye imyenda idoze mu bitenge, giteze n'igitambaro mu mutwe, mu ntoki ze afitemo urupapuro.

Aha haragaragara abana bari gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, aho ari umuntu w'umugabo uri kugenda abasukira na bo bakaraba. Aba bana barirabura kandi bigaragara ko bagira isuku.

Aha ni ku ivomo rusange, haragaragara umugabo wambaye umupira w'ubururu ndetse n'ingofero y'ubururu, uri gukorera umwana injerekani y'umuhondo. Hari umugore w'umuzungu ufite umusatsi muremure, uri gufotora uyu mugabo uri gukorera umwana injerekani.

Umwana w'umukobwa uri ku ivomero, uri gukarabira ku mugezi, iruhande rw'umugezi hateretse amajerekani atatu, abiri y'umuhondo n'indi y'ubururu ipfundikije umupfundikizo w'umutuku, inyuma y'uyu mugezi haragaragara ibiti birebire.

Aha ni ku kigo nderabuzima ahagaragara umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare, aho ari gushyira igipapuro ku mwana, umubyeyi w'uyu mwana yitandiye igitambaro mu mutwe, hirya y'aba bantu hari abandi bantu benshi.

Aha ni ku ivomo rusange ahateraniye abantu batandukanye, aha haragaragara amajerekani menshi ndetse ku muryango w'akavomo hahagazeho umukobwa bigaragare ko ariwe uvomesha hano. Aya ni amazi yegerezwa abaturage, aba asukuye asa neza, aka kavomo gasize irangi ry'ikigina ndetse n'ubururu, iruhande rwaho hari ibiti.

Ku ivomo rusange haragaragara umwana uri gukaraba, aho ari gushyira amazi mu mutwe akamanuka mu maso ndetse no mu kanwa. Inyuma y'uyu mwana haragaragara ibimera bitandukanye.

Inyubako yateraniyemo inama yahuje abagore ndetse n'abagabo, aho hari umugabo uhagaze urebye ni we ufite ikiganiro ari kubagezaho, iyi nyubako isize amarangi ajya gusa umuhondo ndetse inyuma hari icyapa gishushanyijeho umugore.

Urujya n'uruza rw'abantu bateraniye hano, higanjemo abagore ndetse n'abagabo, bafite ibyapa mu ntoki byanditseho amagambo atagaragara, hirya yabo hari akazu kari mu ishyamba kameze nk'ubwiherero.

Aha ni ku ivomo rusange ahaje kuvoma umugore ndetse iruhande rwe hahagaze umwana wegamye ku rukuta rw'ivomo, yambaye agapira k'umutuku ndetse n'agakabutura k'umukara, uyu mubyeyi yiteze igitambaro mu mutwe.

Aha haragaragara abana bari kuvoma amazi atemba, bigaragare ko bari kuvomesha indobo. Bari kuyavoma bayahagazemo, bigaragare ko aya mazi afite umwanda. Amazi atemba yose, ntabwo aba yemerewe kunyobwa cyangwa ngo akoreshwe bitewe n'imyanda iba irimo.

Icyumba cyateraniyemo abagore batandatu bigaragare ko harimo umugore umwe w'umujyanama cyangwa se w'umuforomokazi iki cyumba biragaragaramo ko abakirimo bose baje gusaba serivisi.

Ku mugezi rusange ahaje kuvoma abantu babiri umugabo ndetse n'umugore. Bose baje kuvomera mu majerekani, uyu mugezi hariho icyapa kiwometseho ndetse ukikijwe n'ibiti birebire.

Urujya n'uruza rw'abantu bateraniye mu nyubako, bigaragare ko hari serivise baje kwaka, biragaragara ko imbere yabo, hari aho bari kugenda biyandikisha, hagaragara abagore babiri bari kugenda babandika, iyi nyubako kandi isize irange ry'ikigina.

Aha haragaragara umugabo wambaye umupira w'ubururu, ndetse wambaye ni ipantaro y'umweru, yicaranye n'umugore ufite imisatsi isutse, wambaye agapfukamunwa ndetse afite na telefone mu ntoki ari kwandika ku mpapuro, na we yambaye ipantaro y'ubururu, hari icyapa cyanditseho ngo Sida iracyahari duhaguruke tuyirwanye.

Aha haragaragara ikiraro cyubatse mu buryo bwa gihanga, hirya y'iki kiraro haragaragara inyubako isakaje amabati y'umutuku, hirya y'iyi nyubako haragaragara agasozi kariho ibiti ndetse hejuru haragaragara ibicu by'umweru.

Inyubako yicayemo abagore bambaye amashati ari mu ibara ry'ubururu, bari kumwe n'abagabo babiri, inzugi ndetse n'amadirishya by'iyi nyubako bize irangi risa umweru, imbere yabo hari ameza arambuyeho igitambaro cy'ubururu.

Inyubako yubatse mu buryo bwa etaje isize amarangi y'umweru. Iyi nyubako ku rukuta rwayo yubakishije ibirahure. Ndetse hejuru harakandi kantu gashushanyijeho kameze nk'ibijyega.

Aha ni ku ivomo rusange ahagaragara abagore baje kuvoma ndetse n'umugabo umwe, kuri iri vomo hariho akapa gatoya k'ubururu kandikishije amagambo y'umweru UNICEF. Hari umugore uri kuvoma, ari kuvomera mu ndobo y'ubururu.

Iyi ni inyubako yo ku kigo nderabuzima, ahateraniye abantu bari mu ngeri zitandukanye. Iyi nyubako isize irangi ry'ubururu ndetse imbere yayo hari umusekirite wambaye imyenda y'icyatsi.

Aha ni ku ivomo rusange ahari umugabo uri gukaraba mu ntoki akarabiye ku mugezi, inyuma ye haragaragara ibimera bitandukanye birimo ibiti birebire. Haragaragara n'inzu itari kugaragara neza, iruhande rw'uyu mugezi hari indobo y'ubururu ihateretse.

Urujya n'uruza rw'abantu batandukanye bambaye imyenda isa, aho bambaye imyenda imipira y'imihondo ndetse n'amajire y'icyatsi. Inyuma yabo hari inyubako isize amarangi y'umuhondo, ndetse mu madirishya harimo ibirahure.

Aha ni ku kigo nderabuzima, aho umuforomokazi ufite umusatsi yafunze shinya, ari gusuzuma umwana mutoya, yazamuye ishati ye, ari ku yamushyize igipimo ku nda y'umwana.

Umugore wakeyeye igitenge wambaye ingofero mu mutwe, ahagaze imbere y'umuryango arimo arakaraba kuri kandagira ukarabe, iyi nzu irakinguye bigaragare ko yubakishije umucanga.

Aha ni ku bukarabiro bwo mu ntoki ahazwi nka ravabo, hari umwana w'umukobwa wambaye impuzankano z'ishuri uri gukaraba mu ntoki, hirya ye hari inyubako bigaragara ko ari amashuri ndetse haragaragara n'ibiti birebire.

Icyumba cyateraniyemo inama, harimo abayobozi bagiye batandukanye bicaye ku meza igiye iriho udutasi tw'icyayi, kuri aya meza hariho igikoresho k'ikoranabuhanga kizwi nka porojegiteri.

Abana babiri bari ku ivomo, bari gukaraba amazi ari guturuka muri robine, umwe yambaye agakabutura ndetse n'agapira k'umutuku k'amaboko magufi, naho undi yambaye imyenda isa n'iya gisirikare.

Inyubako nziza yubakanye ubuhanga harimo abantu basa nk'aho bitabiriye inama, ni abantu batanu babiri b'abagore ndetse na batatu b'abagabo, imbere yabo ku meza hari telefone, amakaye, ndetse bafite n'amakaramu mu ntoki, bafite n'amacupa y'amazi ku meza.

Aha ni ku ivomo aho umukobwa asutamye ari kuvoma amazi mu njerekani ndetse injerikani iteretse mu ibase, inyuma ye hari imyenda yanitse ku mugozi.

Aha haragaragara abantu bambaye ingofero z'imyeru ndetse bahagaze munsi y'igiti, bafite icyapa cyanditseho ngo umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri.

Uyu ni umuganga wambaye itaburiya y'umweru y'amaboko maremare, ari gutera urushinge umwana mutoya, umubyeyi w'uyu mwana aramushyigatiye, yambaye ibitenge birimo amabara agiye atandukanye.

Aha ni ku ivomo rusange ahateraniye abantu benshi batandukanye baje kuvoma ndetse bigaragara ko hari n'abandi baje kuhamesera, haragaragara amabasi ndetse n'amajerekani, hari n'umugabo ubyibushye wambaye umupira wa rakositi uri mu ibara ry'umutuku.

Umugezi uri kuvomwaho n'abana babiri, bari kuvomera mu ndobo z'umweru, iruhande rw'uwo mugezi haragaragara ibimera ndetse n'ibiti bigiye bitandukanye.

Inyubako yateraniyemo abantu batandukanye, aho buri murongo w'intebe hariteretse ameza ariho igitambaro kiri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, haragaragara umugore uhagaze imbere yabo, imbere ye nawe hateretse amazi ari mu macupa ndetse n'amasakoshi.

Umukecuru utetse, atekeye imbere y'umuryango. Atekeye ku nkwi ndetse umukecuru yicaye ku gatebe. Iruhande rwe hateretse agakombe gasa icyatsi n'umufuniko w'isafuriya. Birashoboka ko yaba atetse igikoma.

Umukobwa mwiza w'inzobe, useka neza, yambaye agakufi mu ijosi kari mu ibara ry'umweru. Yambaye agasengeri k'umukara ndetse n'ipantaro y'ikoboyi. Yambaye udukomo ku maboko, yicaye yegamye ahantu ari guseka, ubona ko yishimye.

Iyi ni inyubako nziza yubakanye ubuhanga. Hasi harimo amakaro ndetse hateraniyemo abantu benshi bari mu ngeri zitandukanye. Abana, abagabo ndetse n'abagore. Haragaragara ameza ari mu ibara rya shokora.

Inyubako nziza isize amarangi atandukanye, iyi inyubako mu madirishya yayo no mu nzugi harimo ibirahuri. Ku muryango hateretse amavazi arimo indabyo ndetse ikikijwe na jaride irimo imikindo.

Aha haragaragara umugore wambaye agapira k'umweru k'amaboko magufi, ukenyeye igitenge wicaye hasi ku musambi uzinze, uyu mugore biragaragara ko bamuzirikiye ku giti bifashishije umunyururu, baziritse ku kaguru k'iburyo.

Umugabo wambaye ishati y'igitenge irimo amabara atandukanye, yambaye n'ipantaro y'umukara ari kuramutsa umuntu wambaye nabi wambaye imyenda icikaguritse ufite umusatsi usa nabi, bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe.

Umugabo wambaye nabi imyenda isa nabi, biragaragara nkaho yanyweye ibiyobyabwenge byamusindishije. Arasa nkaho yaguye mu mbuga ari kugerageza guharuka, hirya ye ku rubaraza rw'inzu, hari umugabo wicaye ku igare.

Aha haragaragara umujyanama w'ubuzima uri kuganiriza umubyeyi. Bicaye ku ntebe z'indambure aho uyu muforomokazi ari kugira inama uyu mubyeyi.

Umubyeyi wicaye imbere y'inzu, akikiye umwana mutoya undi amwicaye iruhande. Yiteze igitambaro mu mutwe kiri mu ibara rya oranje, imbere ye hari intara iteretseho ingemeri.

Muri iyi nyubako hari kugaragaramo umugabo ndetse n'umukecuru witeze igitambaro mu mutwe, aho bigaragara ko uyu mubyeyi ari kwaka serivisi. Bicaye imbere y'ameza arambuyeho igitambaro cy'umuhondo ndetse ateretseho n'icupa ry'amazi.

Umusore n'umukobwa bari kumwe, bigaragare ko uyu musore ari mu gahinda afite ibibazo byamurenze, umukobwa yambaye isaha ku kuboko ndetse n'umupira w'amaboko maremare, bisa nk'aho ari guhumuriza uyu musore.

umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi wegamye ku rukuta. Arararamye ari kureba hejuru, bigaragare ko uyu mugabo yahuye n'ibibazo bikaba byamurenze, akaba ari kwitekerezaho.

Aha haragaragara umugabo wambaye imyenda icikaguritse arasa nabi afite bombo yo ku gati mu kanwa, afite ibintu acigatiye mu ntoki, hirya ye haragaragara imodoka iri mu bwoko bw'ikamyo.

Urujya n'uruza rw'abantu biganjemo urubyiruko rw'abasore n'inkumi, bambaye imipira y'ubururu ndetse n'umweru. Hari umugabo bahagaze hagati, wambaye ishati y'umweru, ndetse na karuvati.

Inyubako nziza yubatse mu buryo bwa gihanga, imbere yayo hateraniye abantu batandukanye barimo abagore ndetse n'abagabo, aha higanjemo urubyiruko bigaragara ko ari abasore ndetse n'inkumi bambaye imipira y'ubururu irimo ibirango by'umweru.

Icyumba cyateraniyemo inama bigaragare ko harimo abantu batandukanye; yaba abagore ndetse n'abagabo. Aha hantu harimo intebe nziza zigezweho z'imifariso ndetse zegamirwa, umuntu uri kubakoresha inama ni umugore ufite umusatsi muremure ubahagaze imbere.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare irimo uturongo tw'umukara, yiteye umwitero w'umuhondo. Yambaye ingofero isa nabi, yakutse amenyo abiri yo hejuru ndetse n'ayo hasi. Afite icumu mu ntoki.

Aha ni ku kigo nderabuzima. Aho ababyeyi baje gusaba serivisi kwa muganga zijyanye n'urukingo ruhabwa abana batoya. Muganga arimo arabasobanurira, abahereza amabwiriza y'ukuntu bazajya bahereza abana babo imfashabere.

Umugore wikoreye urutebo rurimo imigozi, hirya ye haragaragara inyubako yubakishije amategura, inyuma ye haragaragara ikimera kirandaranda kizwi nka kayote.

Mu bitaro kwa muganga ahagaragara umurwayi waryamye agaramye, umwe ari kumusuzuma indwara arwaye, undi ari kumutoroshera mu kanwa, bose bambaye amarinete ndetse n'udupfukamunwa tw'ubururu.

Aha haragaragara umukobwa w'imibiri yombi, ufite umusatsi mukeya w'umukara, afite amenyo meza y'ururwererane, biragaragara ko ayakorera isuku ihagije.

Abana batoya bari gukora isuku mu kanwa, bifashishije uburoso ndetse n'umuti w'amenyo wabugenewe. Bambaye impuzankano z'ishuri, buri wese ari gukarabamo akoresheje amazi meza ndetse n'umuti w'amenyo.

Inyubako nziza yubatse neza, irimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye, harimo intebe zifite amapine, ndetse zifite n'udusego dufite ibara rijya gusa ubururu.

Aha ni mu cyumba cyo kwa muganga aho abarwayi babasuzumira, ahagaragara umwana uryamye ku gitanda bari gukura amenyo, biragaragara ko afite uburwayi bw'amenyo aho muganga agiye kumubaga agakuramo irirwaye.

Umusore wambaye ubusa hejuru, ufite akadodo k'umweru ari gukoresha isuku mu menyo ye, arimo aragenda akanyuza hagati y'amenyo, kugira ngo agende akuramo imyanda irimo.

Icyumba gisize irangi risa ikijuju, hateyemo intebe zifite amapine ziri mu ibara ry'umukara, umweru ndetse n'ubururu. Izi ntebe iyo uzicayeho, iyo ubishatse uhindukira udahagurutse.

Umusore ufite ubwanwa bwinshi bigaragare ko ari gukora isuku yo mu kanwa, ari gukoresha agakoresho kabugenewe gafite akadodo ari kugenda anyuza hagati y'amenyo akuramo imyanda.

Umutegarugori w'imibiri yombi, wambaye ingofero y'umweru mu mutwe ndetse ufite amenyo y'urwererane, afite akantu kabugenewe ari kwifashisha akora isuku mu menyo ye, ari kugenda anyuza hagati y'amenyo akuramo imyanda.

Umusore uri gukora isuku mu menyo ye, ari kwifashisha urudodo rw'umweru, ari kugenda anyuza hagati y'amenyo kugira ngo imyanda igiye irimo yose ayikuremo, yambaye agapira k'umweru k'amaboko magufi.

Inyubako igaragaramo abana b'abakobwa bambaye imipira y'icyatsi ndetse yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umuhondo avuga ngo tubiteho, bari kurebwa isuku yo mu kanwa cyangwa se bareba niba barwaye indwara y'amenyo.

Aha haragaragara umusore w'umwirabura, ufite amenyo meza y'urwererane. Afite ikintu ku munwa, bigaragaza ko iki kintu ari cyo kimutunganyiriza amenyo kikayakiza imyanda.

Aha ni kwa muganga ahagaragara umurwayi bari gukura amenyo n'umubyeyi wadefirije umusatsi, umuganga yambaye utuntu ku madarubindi tumufasha kureba ndetse yambaye n'agapfukamunwa n'itaburiye y'umweru.

Aha haragaragara umukobwa w'imibiri yombi ufite urudodo ari gukoresha isuku mu menyo, bigaragare ko yahumirije asa nkaho ari kubabara, afite umusatsi yadefirije w'umukara.

Aha haragaragara umukecuru ufite umusatsi w'imvi ndetse yambaye amaherena y'umweru n'ishati y'umweru. Ari kumwe n'umukobwa ukiri mutoya, wambaye ishati irimo ibara ry'icyatsi n'umweru. Bari mu nyubako isa neza, inyuma yabo hari intebe.

Abagabo babiri bari mu cyumba, umugabo umwe afite imvi nyinshi mu mutwe ndetse yambaye ishati y'ikigina y'amaboko maremare. Uyu mugabo bari kumwe biragaragara ko ari umuganga kuko yambaye impuzankano z'abaganga.

Umugore n'umugabo bari gukora imyitozo ngororamubiri, umugore yambaye isaha ku kuboko ndetse n'agapira k'umweru k'amaboko magufi. Umugabo na we yambaye isaha n'agapira k'ikijuju k'amaboko magufi, umugore afite umusatsi urimo imvi.

Aha birasa nkaho habaye ikirori runaka, aho hari kugaragara abasaza babiri bambaye ingofero z'urugara. Bose biteye imishanana, inyuma yabo mu ishararagati harimo abandi bantu benshi.

Aha ni kwa muganga hari umusaza ufite imvi nyinshi mu bwanwa ndetse no mu musatsi, yambaye umupira w'ubururu w'amaboko magufi, ari kumwe n'umuforomokazi ufite umusatsi muremure ugera mu mugongo, uri kumwereka uko agomba gukora imyitozo ngororamubiri.

Umusaza ufite uruhara, ndetse afite n'ubwanwa burimo imvi nyinshi, yambaye ishati y'amaboko maremare, ari kumwe na muganga arimo aramupima umuvuduko w'amaraso, umuganga yambaye itaburiya y'umweru, ndetse afite n'umusatsi muremure.

Umuforomokazi wadefirije umusatsi wambayeye impuzankano z'ubururu, ari guseka aganiriza umusaza wambaye ishati y'amaboko maremare, akaba afite n'imvi mu bwanwa bwe. Uyu musaza afite inkoni mu ntoki bigaragare ko yicaye ahantu yegamye.

Hano haragaragara umujyanama w'ubuzima uri kumwe n'umukecuru wambaye amaherena, yambaye ishati y'amaboko magufi, umuforomo yambaye impuzankano zijya gusu ubururu, yambaye udupima uko umutima utera, umukecuru arimo guseka.

Umudamu bigaragara ko akuze ufite imvi nyinshi mu mutwe we, wambaye agakufi mu ijosi ndetse n'agasengeri kari mu ibara rya move, biragaragara ko ari gukora imyitozo ngororamubiri ari kuyikorera hasi ku gatapi.

Umusaza ufite imvi nyinshi mu mutwe no mu bwanwa, wambaye amadarubindi. Ari kumwe n'umuforomokazi ufite umusatsi muremure wambaye impuzankano ziri mu ibara ry'ubururu, uri gupima uko umutima w'uyu musaza utera.

Umukecuru ufite imisatsi mikeya, ndetse wambaye ishati y'ikigina. Ari kwa muganga, umuganga arimo aramuhereza ibini umukecuru nawe afite ikirahure cy'amazi mu ntoki mu kuboko kwe kw'iburyo.

Umusaza wambaye ishati y'amaboko maremare, ufite imvi mu mutwe we ndetse no mu bwanwa, afite uruhara, yicaranye n'umugore we wambaye umupira w'amaboko magufi y'umukara, wambaye na baji mu ijosi, arimo aramwereka amashusho muri terefone ye.

Umugabo bigaragara ko akuze kuko afite imvi nyinshi mu mutwe we, ateruye umwana mutoya ufite agapope mu ntoki, yamwishyize ku maso barimo kurebana aho uyu mwana atari guseka n'umusaza atari guseka.

Umukecuru wicaye atetse. Atetse ku mashyiga ya kinyarwanda arimo aracana inkwi zisanzwe, akikijwe n'ibimera bitandukanye harimo n'ibiti birebire.

Aha haragaragara umuryango w'abagore babiri ndetse n'umwana mutoya, aho hagaragaramo umugore wambaye amadarubindi, ufite umusatsi yadefirije muremure, ndetse hakabamo n'umukecuru ufite imvi. Bari mu nyubako yubatse neza, isize amarangi y'umweru.

Ahantu hateraniye imbaga y'abantu batandukanye aho hari kugaragaramo abagore ndetse n'abagabo, haragaragara abagore babiri basa nkaho bari guhana kado, ndetse hakagaragara n'abandi bantu bari gukoma mu mashyi bigaragara ko bishimye.

Umusaza wambaye ishati iri mu ibara rya pinki, yambaye amadarubindi, afite imvi nyinshi mu musatsi we ndetse no mu bwanwa. Ari gusoma yifashe ku munwa.

Umusaza n'umukecuru birabura, umukecuru yiteze igitambaro cy'umutuku mu mutwe. Umusaza ari gusoma uwo mukecuru ku itama, bigaragare ko bishimanye bari mu munyenga w'urukundo. Umukecuru yambaye ikote rya kositimu ry'umukara.

Umugabo wirabura wambaye amarineti akaba afite uruhara ku mutwe we, arimo araseka asuhuzanya n'umugore w'umuzungu ufite umusatsi muremure ugera mu bitugu, yambaye umupira w'umweru, mo imbere yambariyemo akandi gapira k'ubururu.

Iri ni isoko ricuruza imbuto ndetse n'ibindi biribwa bigiye bitandukanye, aho hagaragaramo abagore bicaye imbere y'inyanya, bamwe bambaye imyenda idoze mu bitenge ndetse inyuma yabo haragaragara amaronji ahishije.

Inyubako nziza yubatse neza, yateraniyemo abantu bo mu ngeri zitandukanye, haragaragaramo umugore ufite umusatsi mwinshi, bigaragare ko hari ibintu ari kugenda ahereza buri muntu.

Umuryango wanezerewe urimo umwana umwe ndetse abandi bakaba bakuze, bicaye ahantu bigaragara ko bari kwifotoza, inyuma yabo hari indabyo, hejuru kuri parafo hari amatara ari kwaka.

Umusaza n'umukecuru bafite imvi, bigaragare ko bakuze, bari ku meza barimo gufata ifunguro, umusaza yambaye impeta n'ishati y'amaboko maremare, bari kurya imboga ndetse n'ibirinda indwara.

Aha ni ku kigo nderabuzima, ahari kugaragara abantu bambaye impuzankano z'ubururu ndetse bambaye na baji, haragaragara ababyeyi baje gusaba serivisi zigiye zitandukanye, harimo umukecuru witeze igitambaro mu mutwe.

Icyumba cyabereyemo inama, hicayemo abantu bari mu ngeri zitandukanye, abambaye amakositimu, amashati y'umweru ndetse y'amaboko maremare, muri iyi nyubako haragaragaramo amabara agiye atandukanye ku nkuta.

Abagabo babiri bose bambaye amakositimu na karuvati, umwe yambaye amadarubindi, bose bafite ibitabo mu ntoki, bigaragare ko bagiye guhana inshingano.

Inyubako iri kugaragaraho abantu bari mu ngeri zitandukanye ariko bab'abagore gusa, bigaragare ko hano hantu baje kwaka serivisi. Kuko aha hantu ni kwa muganga.

Icyumba cyateraniyemo abantu batandukanye, aho hari kugaragara umugore ufite indangururamajwi ndetse wambaye amadarubindi ufite n'umusatsi muremure, uyu mugore bigaragare ko ari we uri gutanga ikiganiro.

Icyumba cyateraniyemo abantu benshi bari mu ngeri zitandukanye, bigaragara nkaho ari abayobozi bo mu nzego zigiye zitandukanye, harimo abagore ndetse n'abagabo, inyuma yabo hari icyapa kiri mu ibara ry'icyatsi cyandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Icyumba cyateraniyemo inama, haragaragara ko harimo abantu benshi cyane, abambaye amakositimu ndetse na karuvati n'umugore wambaye amadarubindi ndetse n'ikositimu isa ikigina. Iyi nyubako isize amarangi y'umweru ndetse kuri parafo hariho amatara ari kwaka.

Aha haragaragara icyapa kiri mu ibara ry'ubururu ndetse hari n'akandi kapa gatoya gashushanyijeho, kanditseho imyaka icumi, muri iki cyapa cy'ubururu cyanditsemo amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Icyumba cyateraniyemo inama yahuje abantu bo mu ngeri zitandukanye, bigaragare ko ashobora kuba ari abayobozi bari kuganira ku kibazo runaka, hakaba hagaragaramo umugore ufite indangururamajwi.

Icyumba cyateraniyemo inama, harimo abayobozi bari mu nzego zigiye zitandukanye. Iyi nama yabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane.

Inyubako irimo igitsina gore cyangwa se abategarugori, higanjemo abana bakiri bato b'abakobwa, ab'imbere bashyize hamwe amaboko ku meza irambuyeho igitambaro, ndetse imbere ku meza hari mudasobwa.

Aha hari umujyanama w'ubuzima wambaye ijure y'umutuku ari gusuzuma umurwayi umuvuduko w'amaraso, uyu mukobwa yambaye umupira w'umukara w'amaboko magufi ndetse afite umusatsi muremure.

Icyumba cyateraniyemo abantu bagiye batandukanye, harimo abambaye imipira y'amaboko magufi iri mu ibara rya pinki ndetse biragaragara ko hari abantu bari imbere bari guhabwa ibihembo, inyuma gatoya hari umugabo uri kubafotoza telefone.

Mu cyumba cyo kwa muganga ahagaragara abaganga bambaye impuzankano ziri mu ibara ry'icyatsi, biragaragara ko harimo amatara ari kubamurikira bari gukora operation ku barwayi. Ku rukuta hariho amatereviziyo abiri ari kwaka.

Aha haragaragara abantu barindwi barimo abagabo batanu ndetse n'abagore babiri, bose bambaye baji mu ijosi, hejuru hagaragara amatara ari kwaka, bahagaze ku itapi iri mu ibara ry'icyatsi.

Kwa muganga ahari kugaragara umuganga wicaye imbere ku meza, ari kumwe n'umugabo wambaye ijire y'icyatsi ndetse n'agapfukamunwa k'umweru, inyuma ye mu ntebe haragaragara abandi bantu bicaye bategereje guhabwa serivisi.

Aha ni ku bitaro by'Umwami Faisal, bigaragara ko byubatse neza mu buryo bwa gihanga, hari abantu bahagaze imbere yabyo, bigaragare ko baje kwaka serivise zitandukanye, imbere yabyo hari ibiti birebire by'amashami.

Inyubako yubatse mu buryo bwa etaje, yubakishije amatafari kandi isize amarange y'umweru, iyi nyubako mu madirishya yayo no mu nzugi harimo ibirahure, imbere yayo haparitse imodoka kandi ituriye umuhanda wa kaburimbo.

Inyubako ndende yubatse mu buryo bwa etaje, iriho icyapa hejuru kiri mu ibara ry'umweru. Cyandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi, umukara ndetse n'umutuku. Iyi nyubako yubakishijwe amatafari ahiye kandi iruhande rwayo haragaragara igiti kirekire.

Inyubako isize amarange y'umweru, ifite n'ibirahure mu nzugi ndetse n'amadirishya, yubakishije amatafari ahiye hejuru handitseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, impande yayo hari jaride.

Aha ni kwa muganga ahagaragara umuforomo kazi wambaye imyenda y'umweru; afite umusatsi muremure ndetse yambaye n'agapfukamunwa kubururu, yegereye umurwayi uri kugendera mu kagare k'abamugaye; arimo aramufungurira umwenda, muri iki cyumba harimo abandi bantu batandukanye.

Aha haragaragara agahanda kubakishije amapave, ku ruhande rwako haragaragara borodire zisize irangi ry'umweru ndetse n'umukara, ndetse hari jalide zisa neza, haruguru yazo haragaragara urupangu.

Uyu ni umujyanama w'ubuzima cyangwa se umuforomokazi. Yambaye impuzankano z'ubururu, afite umusatsi muremure w'umukara. Biragaragara ko hari umurwayi uryamye ku gitanda ari kwitaho.

Inyubako nziza isize amarangi agiye atandukanye harimo ikijuju ndetse n'umukara wijimye, hagaragara igitanda gifite amapine, gishasheho ishuka y'ikijuju ndetse hariho n'umusego.

Inyubako yateraniyemo abantu batandukanye barimo abagore ndetse n'abagabo, aha hantu biragaragara ko ari kwa muganga mu nyubako y'ubuvuzi. Haragaragaramo abagabo bambaye amataburiya y'umweru ndetse n'abagore bambaye impuzankano z'umukara.

Iyi ni inyubako yo kwa muganga iri kugaragaramo ibitanda biryamaho abarwayi, aho bishasheho amashuka ari mu ibara ry'ikijuju, ku rukuta hasize irange ry'ikijuju ndetse amadirishya arimo ibirahure.

Icyumba gisa neza giteguye neza gifite inkuta zisize amarange y'umweru, kirimo intebe ziri mu ibara ry'umutuku ndetse n'izifite amapine haragaragaramo n'igitanda.

Iyi ni inyubako yo kwa muganga. Biragaragara ko harimo ibitanda abarwayi baryamaho, bishasheho amashuka ari mu ibara ry'icyatsi. Inyuma ku rukuta hariho ibirahure.

Iyi ni farumasi icuruza imiti igiye itandukanye, hakoreramo umuntu witwa Iraguha. Iyi farumasi ifite inzugi zisize irangi ry'umweru, iruhande rwayo haparitse abamotari.

Inyubako y'ibitaro bya CHUB, biherereye mu Ntara y'Amajyepfo mu Karere ka Huye. Haragaragara icyapa kigaragaza ko ibi bitaro ari ibya kaminuza ya Butare. Ndetse iruhande rwabyo hateye ikirabyo kandi mo aho ngaho haparitsemo imodoka nyinshi.

Aha ni ku bitaro kwa muganga, aho hari gutangwa serivisi ku barwayi bagiye batandukanye, ahahuriye abaganga bambaye amataburiya y'umweru, barimo abagore ndetse n'abagabo.

Aha ni kwa muganga mu cyumba cy'abarwayi, hari kugaragaramo umumama wambaye itaburiye y'umweru ndetse na ga z'umweru, yambaye amadarubindi, ku rukuta hasize irangi ry'umuhondo.

Inyubako nziza yubatse mu buryo bwa gihanga, iyi nyubako isize amarange y'umweru, mu madirishya hayo ndetse no mu nzugi harimo ibirahure byiza byera, hejuru kuri parafo haragaragaraho amatara ari kwaka ndetse na kamera.

Inyubako yubatse mu buryo bwa etaje isize amarangi atandukanye, ku nyubako ya mbere biragaragara ko hakorera farumasi. Hasize irangi rijya kuba umweru ndetse ku muryango w'iyi nyubako hari esikariye.

Inyubako nziza yubatse mu buryo bwa gihanga, yubakishije amakaro ndetse iyi nyubako irimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, aho hari kugaragaramo intebe ndetse n'ameza bifite amapine, hejuru kuri parafo hari amatara ari kwaka.

Inyubako nziza yubakanye ubuhanga buhanitse, irimo intebe ndetse n'ibitanda bifite amapine. Isize amarangi y'umweru, hejuru kuri parafo hariho amatara ari kwaka.

Kwa muganga mu cyumba cy'abarwayi haragaragaramo umurwayi uryamye ku gitanda ndetse hakagaragaramo n'abaganga batatu bambaye impuzankano z'akazi, uyu murwayi aryamye ku gitanda gisasheho ishuka y'umweru.

Abagore batatu bari kugaragara nk'aho bari kwifotoza, bambaye impuzankano z'ubururu ndetse n'utugofero tw'umweru mu mutwe, inyuma ya bo haragaragara jaride zirimo imikindo, ndetse inyuma ya bo hari akayira karimo abandi bantu hirya batari kugaragara neza bambaye imyenda y'ubururu.

Aha ni ku kigo nderabuzima cya Shagasha, hari inyubako isize amarangi y'umuhondo, isakaje amabati y'ubururu, inyuma y'iyi nyubako haragaragara ibiti birebire, imbere y'iyi nyubako hicaye abadamu babiri bafite abana.

Aha ni kwa muganga ahagaragara umurwayi uryamye ku gitanda, bigaragare ko hari umugore uri kumudoda ku kiganza cye cy'iburyo, umugore uri kumudoda yambaye ishati iri mu ibara rya pinki.

Iyi nyubako ikoreramo ubuvuzi ku kigo nderabuzima cya Remera Rukomo, yubakishije amatafari ahiye, isakaje amabati y'ubururu. Imbere yayo hari jaride kandi iyi jaride iriho indabyo z'umuhondo.

Ku bitaro bya Rwamagana bisize irange risa n'ikijuju, imbere yabyo hahagaze abantu batandukanye abazungu ndetse n'abirabura, imbere yayo hari jaride ndetse n'ikirabyo kimeze nk'insina y'umubyare.

Aha ni ku kigo nderabuzima. Hari abantu bicaye bari mu ngeri zigiye zitandukanye, bigaragare ko aha hantu bicaye ari ho bakirira ababagana. Hari umugore uhetse umwana, yiteze igitenge mu mutwe.

Inyubako nziza isize amarangi ajya gusa ikigina, ifite parafo z'umweru, ifite imireko ijya gu gusa icyatsi ndetse n'inzugi ziri mu ibara ry'icyatsi. Imbere y'iyi nyubako aho baparika imodoka hahagazemo umugabo wambaye itaburiye y'umweru.

Inyubako yahuriyemo abantu benshi batandukanye, harimo abagabo ndetse n'urubyiruko, imbere yabo ku meza hateretse mudasobwa ndetse n'uducupa tw'amazi, hari umugabo ufite uruhara wambaye amarinete, ku ruhande hari undi muntu ufite kamera uri kubafata amafoto.

Inyubako isize amarangi atandukanye ifite inzugi nini zirimo ibirahuri, iyi nyubako biragaragara ko ari farumasi icuruza imiti, imbere y'iyi nyubako haparitse imodoka.

Inyubako y'ikigo nderabuzima cya Rwerere, isize amarangi y'umweru, iyi nyubako yubakishije amatafari ahiye, kandi ikikijwe na jaride irimo indabyo zikase neza, zirimo izifite amabara y'umweru ndetse n'umuhondo.

Icyumba gisa neza gitunganyije neza bigaragare ko aha ngaha ari kwa muganga, harimo intebe ziri mu ibara ry'ubururu ndetse zifite amapine, bigaragare ko izi ntebe zizengurutsa.

Aha ni kwa muganga mu cyumba cy'abarwayi, ahagaragaramo ibitanda abarwayi b'indembe baryamaho, ibitanda bishasheho amashuka ari mu ibara ry'icyatsi ndetse harimo n'amarido asa ubururu.

Inyubako isize amarangi atandukanye, isakaje amabati y'ubururu. Imbere y'iyi nyubako hahagaze abantu b'abagabo ndetse kandi haparitse n'imodoka, ikikijwe n'amajaride ndetse hirya yayo hari igiti kirekire.

Iyi ni inyubako y'ubuvuzi, aho hari kugaragaramo abaganga babiri, bambaye impuzankano z'akazi. Harimo n'umukobwa ufite umusatsi mwinshi wambaye amaherena, wambaye n'agapira k'amaboko magufi ndetse n'agakomo ku kuboko waje kwaka serivisi.

Inyubako iriho icyapa cy'umweru kiriho amagambo yandikishije mu ibara ry'umukara, hahagaze abagore bane ndetse n'umugabo umwe, abagore harimo abambaye amakote y'amakositimu.

Iyi ni inyubako nziza yubakishije amatafari ahiye, imbere yayo haragaragara jaride irimo indabyo ziri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru, hagaragara na pasiparume kandi hari igiti kirekire.

Mu cyumba kwa muganga aharyamye umurwayi hahagazemo umugabo wambaye umupira w'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara, arimo arazinga supanete ndetse n'izindi nzitiramibu zose biragaragara ko zizinze.

Icyumba kirimo ibitanda, aha ngaha bigaragare ko ari mu bitaro byakira abarwayi, ku rukuta hasize irangi ry'ubururu ndetse n'umweru, hamanitse isaha nini.

Icyumba kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bigiye bitandukanye, ahari kugaragara ko ku nkuta hagiye hariho ibishushanyo by'amoko atandukanye. Hagiye hariho inyamaswa zigiye zishushanyijeho. Muri iyi nyubako harimo intebe zifite amapine.

Inyubako nziza yubatse mu buryo bwa etaje, impande yayo mu muhanda haragaragaramo abanyamaguru bari kugenda, iyi nyubako isize amarangi y'umweru ndetse ikikijwe n'agapangu kariho utwuma, hejuru yayo haragaragara ikirere gikeye kiriho ibicu by'umweru.

Inyubako nziza isize amarange meza, hateyemo intebe ndetse n'ameza akoze mu buryo bw'uruziga, muri iyi nyubako haragaragaramo amavaze arimo indabyo.

Aha ni kwa muganga ahagaragara umuforomokazi wambaye itaburiya y'umweru ndetse yadefirije n'umusatsi, biragaragara ko ari gusuzuma umurwayi hari akantu yashyize ku gutwi ngo yumve ukuntu umubiri we uri gukora.

Inyubako ndende, imbere yayo hateretse ameza ndetse hateye n'intebe z'umukara zegamirwa z'imifariso. Kuri izo nyubako haragaragaraho ekara ndetse hariho n'amashusho ari kugenda agaragara. Hejuru hari amatara ari kwaka.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, isize irangi ry'umuhondo. Iyi nyubako mu nzugi no mu madirishya harimo ibirahuri, ndetse kandi yubakishije n'amakaro iruhande rwayo hari umugabo uri kuhatembera.

Aha haragaragara etajeri irimo udukarito twinshi tugiye dutandukanye, aho utu dukarito dushobora kuba dupanzemo imiti, iyi ngiyi biragaragara ko ari farumasi icuruza imiti ivura indwara zigiye zitandukanye.

Inyubako yubatse neza isa neza, iyi nyubako ahanini yubakishijwe ibirahure, isize amarangi y'umuhondo, hejuru ku muryango handitseho amagambo ari mu rurimi rw'amahanga asobanuye ko ari ahantu bakorera ubushakashatsi.

Inyubako nziza ifite icyumba gisize amarange y'umweru ndetse n'ikigina, harimo intebe zegamirwa z'imifariso, inyuma y'izi ntebe harimo amavase ya kizungu arimo indabyo.

Aha haragaragara abadamu batatu. Umwe ni umujyanama w'ubuzima cyangwa se umuforomokazi, yambaye imyenda ya move, afite umusatsi muremure. Naho abandi babiri biragaragara ko ari abarwayi baje kwisuzumisha umuvuduko w'amaraso.

Inyubako nziza isize amarangi atandukanye, ifite ibirahure mu madirishya ndetse no mu nzugi, imbere yayo haragaragara umubyeyi ushyigatiye umwana mu maboko ndetse hari n'undi mugabo bahagararanye.

Aha ni mu nyubako irimo ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga, ari ho hagaragaramo abantu bambaye impuzankano z'umweru ndetse n'udupfukamunwa tw'ubururu, haragaragaramo ibikoresho bigiye bitandukanye nk'utubuni dusa umweruru.

Aha haragaragara inyubako nziza yubakanye ubuhanga, aho isize amarange agiye atandukanye. Iyi nyubako mu madirishya no mu nzugi harimo ibirahuri ndetse isakaje amabati ajya kuba umweru.

Aha ni mu nyubako yo kwa muganga hari kugaragaramo umugore w'umuganga ndetse n'umwana w'umukobwa. Uyu muganga yambaye itaburiya y'umweru ndetse n'agapfukamunwa k'ubururu. Ari gupima umwana w'umukobwa umuvuduko w'amaraso cyangwa se ukuntu umutima we uri gutera.

Inyubako isize amarangi y'ikigina bigaragare ko iyi nyubako itangirwamo serivise zitandukanye, hari abantu bahagaze ku muryango bose bigaragare ko ari abadamu, imbere y'iyi nyubako hari jaride ifite indabyo, pasiparume ndetse n'igiti kirekire.

Inyubako nziza hasi harimo amakaro haragaragaramo ibikoresho by'ikoranabuhanga bigiye bitandukanye, iyi nyubako isize amarangi y'umweru na parafo, hejuru harasa umweru, hariho ibyuma bitanga umuyaga mu nzu.

Peniel farumasi. Iyi ni farumasi icuruza imiti, aho bigaragara ko ifite inzugi n'amadirishya bisize irangi rijya gusa move. Haragaragara umugabo uri gusohokamo wambaye agapira k'umweru, ndetse n'imbere ku muryango haparitse abamotari.

Iyi ni inyubako ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, izwi nka jimunazi. Irimo ibikoresho bigiye bitandukanye, ibyo umuntu yaterura mu maboko cyangwa se ibyo yanyonga nk'igare.

Aha ni ku kigo nderabuzima cya Gisenyi, iyi nyubako yubakishije amatafari ahiye, isize amarangi y'umweru, imbere y'iyi nyubako mu muhanda harimo igare rihetse umugenzi ufite indobo y'ubururu.

Aha ni ku kigo nderabuzima cyangwa se mu bitaro, ahagaragaramo ibitanda. Harimo igitanda gishasheho umwenda uri mu ibara ry'icyatsi, ndetse iki gitanda biragaragara ko gifite amapine. Inkuta z'iyi nyubako, zisize irange ry'umweru,

Inyubako irimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, irimo etajeri, irimo ibikoresho bigiye bitandukanye, ku nkuta zayo hasize irangi ry'umweru ndetse kuri parafo hari amatara ari kwaka.

Inyubako nziza cyane isize amarangi agiye atandukanye, isizeye amarangi y'umweru ndetse n'amarangi afite ibara rijya gusa ikigina, yubakishije amakaro, hejuru kuri parafo hari amatara ari kwaka, kuri buri muryango handitseho nomero y'icyumba.

Icyumba kinini cyane gihurutuye kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bigiye bitandukanye, aha ngaha haragaragaramo intebe zifite amapine, izi ntebe iyo uzicayeho zihindukira utiriwe uhaguruka.

Aha ni ku kigo nderabuzima, aho umuganga w'umugabo wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa k'ubururu ari kwita k'umwana wicaye ku gitanda, ndetse iruhande rw'umuganga hari umugabo wambaye igitambaro mu mutwe.

Umukobwa w'imibiri yombi wambaye amaherena uri kunywa amazi, yambaye agasengeri k'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara imwegereye. Uyu mukobwa biragaragara ko ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umusore wambaye isengegiri y'umweru, ndetse ufite imisatsi miremire wambaye n'ikabutura irimo amabara y'umutuku, umukara ndetse n'umweru. Biragaragara ko ari gukora imyitozo ngororamubiri, iruhande rwe hasutamye umukobwa uri kumwereka uko agenda asimbuka.

Umusore wambaye isengeri y'umukara ndetse afite ubwanwa bwinshi, aricaye, ari kunywa amazi mu gipara, igipara ku munwa wacyo kirasa ubururu, yicaye ahantu asa nk'aho yegamye ku giti cyangwa se ku rukuta.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye itiriningi y'umukara, umupira w'umuhondo urimo amabara y'umutuku ndetse n'umukara, ndetse yambaye n'inkweto zifunze, inyuma ye haragaragara indabyo.

Umugore ndetse n'umwana bicaye ku buriri, uyu mubyeyi biragaragara ko yishimiye kuba ari kureba umwana we, bicaye ku buriri bushasheho amashuka ari mu mabara atandukanye kandi ku rukuta hasize irangi ry'umuhondo.

Aha ni kwa muganga, aho umuganga ari kureba mu kanwa k'umwana ngo areba ikibazo afite mu kanwa, iruhande rwe hahagaze umugore wambaye agapfukamunwa k'umukara.

Umusore wambaye agapira k'amaboko magufiya k'umukara, ari gukora imyitozo ngororamubiri, ari kunywa amazi meza ayanywera mu icupa rya gurude risa umweru.

Aha haragaragara umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri yicaye ku gitanda, aho bigaragara ko hari umuforomo cyangwa se umuganga uri kumufasha amubwiriza ukuntu aterura. Umuganga bari kumwe yambaye ishati y'ubururu ndetse n'isaha ku kaboko.

Aha ni mu kibuga hahagazemo abakinnyi bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye, bigaragara ko bari barimo bakina ariko umukinnyi umwe akaba agize ikibazo cy'imvune, haragaragara abaganga babiri bari kumwitaho bambaye amajire y'umutuku.

Ariteri yifashishwa bakora imyitozo ngororamubiri, iki ni igikoresho giterurwa mu maboko iyo umuntu ari gukora imyitozo ngororamubiri, iruhande rwacyo hari imbuto zigiye zitandukanye umuntu yifashisha amajije gukora siporo ndetse hateretse n'icupa ry'amazi.

Aha haragaragara umusore wambaye umupira w'amaboko maremare umwegereye uri mu ibara ry'umukara, akaba yambaye n'agakabutura k'umukara. Biragaragara ko ari gukora imyitozo ngororamubiri, rifashe ibiganza abifatisha ku ivi rye ry'ibumoso.

Umusore w'ibigango wakoze imyitozo ngororamubiri ihagije, ari gukora imyitozo ngororamubiri. Yambaye agasengeri, ari kunywa amazi muri gurude.

Umukobwa ufite umusatsi muremure wambaye agasengeri k'umweru, yambaye n'ipantaro y'umukara imwegereye, ari gukora imyitozo ngororamubiri, ari kuzamura amaboko akayahuriza hejuru.

Umusore uri kunywa amazi mu gipara wambaye agapira k'amaboko magufi k'umweru, yambaye ekuteri z'umweru mu matwi, uyu musore biragaragara ko ari gukora imyitozo ngororamubiri, biragaragara ko yari yananiwe akaba afashe amazi yo kunywa.

Umusore wambaye ekuteri z'umweru mu mumatwi, wambaye agasengeri k'umukara, akaba yambaye n'ipantaro y'itiriningi y'umukara irimo n'ibara ry'umweru, ari gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye inkweto zifunze ndetse n'amasogisi y'umweru.

Mu nzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri izwi mu rurimi rw'amahanga nka jimunaze. Harimo umugore w'umuzungu, ufite imisatsi miremire wambaye isengeri y'umweru uri gukoreramo imyitozo ngororamubiri. Hahagazemo umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi y'umweru ndetse n'agapfukamunwa.

Umukobwa w'imibiri yombi, wambaye isengeri y'umukara, ipantaro y'umukara na ekuteri mu matwi, ari gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye inkweto z'umweru zifunze, ari kurambura amaboko ayakoza munsi y'ikirenge k'iburyo amanura umutwe.

Umugabo uri mu myitozo ngororamubiri yambaye agakomo ku kuboko kwe kw'iburyo ndetse yambaye n'impeta ku rutoki rwa musumba zose, yambaye agapira k'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara irimo akarongo kamanuye k'umweru.

Aha haragaragara imipira yo gukina igiye itandukanye, harimo umupira w'amaguru wa Handball ndetse n'uwa Volleyball, harimo ndetse n'uwa Rugby, hari n'utuntu dupima uko umutima uri gutera.

Abana banezerewe, bigaragara ko bari bari kureba ndetse no gufana umukino wa basiketi. Biragaragara ko ikipe bari bari gufana ishobora kuba itsinze kuko hari umwana uri imbere wazamuye amaboko.

Umuganga wambaye impuzankano ziri mu ibara ry'ubururu zinyuzemo uturongo tw'umweru ari gufasha umugabo gukora siporo, uyu mugabo yambaye ikabutura ndetse n'agapira k'umweru.

Inyubako yo kwa muganga iri kugaragaramo umuganga, ndetse harimo n'umugabo w'umuzungu wambaye agapira k'umukara. Afite bande ye ari kwizengurutsa ku kiganza, umuforomokazi yambaye impuzankano z'ubururu ndetse na baje mu gatuza.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri wambaye ekuteri z'umweru mu matwi, yambaye isengeri y'umukara, ipantaro y'umukara irimo n'amabara y'umweru ndetse n'inkweto z'umweru.

Aha haragaragara umuntu uri kwikanda ukuboko kwe kw'iburyo, yisize amahina ku nzara, ari kwikandisha agatambaro karimo ibara ry'ubururu, ndetse yambaye umupira w'umweru w'amaboko magufi.

Umugabo wambaye ijire y'icyatsi ndetse n'umukara, afashe mu kwaha umugabo wambaye isengeri w'umutuku ndetse n'umweru, bigaragare ko ari kumutsindagiza uyu mugabo yagize ikibazo.

Aha hagaragara ibikoresho bitandukanye umuntu yifashisha iyo ari ari gukora imyitozo ngororamubiri aho hari kugaragara igikoresho giterurwa mu maboko kizwi nka ariteri, haragaragara imbuto zitandukanye zirimo inyanya, amaronji ndetse n'izindi, izi mbuto umuntu azifashisha amaze gukora imyitozo ngororamubiri.

Umusore wambaye ikabutura y'umukara, akaba yambaye isengeri irimo amabara y'umweru, umukara ndetse n'umutuku, ari gukora imyitozo ngororamubiri. Iruhande rwe haragaragara imbuto zitandukanye, harimo karoti, amaronji ndetse n'izindi zitandukanye umuntu yakwifashisha amajije gukora imyitozo ngororamubiri.

Uyu ni umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye agapira kamwegereye gafite ibara ry'ikijuju. Yambaye ekuteri z'umweru mu matwi, afite agapara k'amazi ari kunywa.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye inkweto z'umweru, ipantaro y'umukara ndetse n'isengeri y'umukara, yambaye ekuteri z'umweru mu matwi ndetse yambaye n'akantu k'umukara ku kuboko kwe kw'iburyo.

Umusore wambaye isengeri iri mu ibara ry'icyatsi, wambaye akantu k'umwenda ku kuboko kari mu ibara rya move, afite icupa ry'amazi ari kuyipuriza mu maso.

Umuntu wagize ikibazo mu rugingo rw'akaboko, yambaye umupira wa rakositi w'umweru. Yafashe agatambaro k'ubururu, arimo aragakandisha ku kaboko ke k'iburyo.

Umugore uri kunywa amazi mu icupa rya gurude riririmo ibara ry'ubururu, biragaragara ko aya mazi ari amazi meza atavangiye, haragaragara ikirere gikeye kirimo ibicu by'umweru.

Aha haragaragara umusore wambaye ikabutura y'umukara imanuyemo imirongo y'umweru ku mpande ndetse yambaye n'umupira w'amaboko maremare w'umukara, hari umuforomo uri kumuzirika bande ku kirenge, bigaragare ko uyu musore yagiriye ikibazo mu myitozo ngororamubiri.

Aha hari umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri aryamye, yambaye ikabutura y'umukara ndetse yambaye n'inkweto zo gukorana imyitozo ngororamubiri, haragaragara umugabo uri kumukanda amaguru wambaye umupira w'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara.

Umukobwa wambaye ipantaro y'umukara imwegereye ndetse yambaye n'agasengeri k'umukara, afite umusatsi muremure ugera mu mugongo, ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Uyu ni umusore, hejuru yambaye ubusa, ku kiganza cye yagifatishije ku gatuza, inyuma y'ikiganza hasizeho irangi ry'ubururu ndetse na pinki, bigaragare ko kuri izi ngingo hafite ikibazo.

Umusore wambaye isengeri y'umukara irimo uturongo twa oranje, ari gukora imyitozo ngororamubiri, ari kumanura amaboko ayanyujije mu mugongo akayakoza mu bitugu.

Ibi n'ibikoresho byifashishwa n'abantu bakora ubutabazi bw'ibanze igihe nk'umurwayi agize ikibazo cyo kugwa igihumure cyangwa se agize indi mpanuka itandukanye, haragaragara ibinini ndetse n'undi muti bakomba uri m'uducupa.

Aha haragaragara amacupa abiri ari mu ibara ry'umuhondo, apfundikije udupfundikizo dusa shokora. Hariho igisiga kiri kuguruka, ndetse hashushanyijeho ikimera cyitwa igikakarubamba, bigaragara ko muri iri cupa harimo ibintu bikozwe mu gikakarubamba.

Aha haragaragara imbuto ziririmo ubwoko butandukanye, hakagaragara n'amacupa arimo ibintu bigiye bitunganyijwe muri izi mbuto, hagaragara inanasi ndetse hakagaragara n'amacupa asa umuhondo ndetse n'icyatsi apfundikishije imifuniko y'umutuku.

Ibi ni ibinini biri mu ibara rijya gusa icyatsi, biri mu kantu kajya gusa pink, hari n'ibindi byanyanyagiye hasi, ibi binini biragaragara ko bikorwa mu bimera bitandukanye.

Ikimera kizwi nk'umuravumba. Iki kimera kizwiho kubyazwa umuti gakondo iyo umuntu agifashe akagisoroma amababi yacyo yarangiza akayahekenya, akamira amazi yayo. Icyo gihe iyo urwaye inkorora ihita ikira.

Aha hagaragara urusobe rw'ibimera bigiye bitandukanye, ibi bimera bigaragare ko bihenze mu misozi miremire, ibi bimera kandi bigaragare ko byifashishwa bibyazwa umuti gakondo.

Umurima uhinzwemo ibimera byitwa ibikakarubamba, hahagazemo abantu batandukanye barimo abagore ndetse n'abagabo, abenshi muri bo bambaye imipira y'icyatsi hejuru bigaragare ko aribo bahagarariye uyu mushinga wo guhinga ibikakarubamba.

Ibi ni ibimera bizwi ku izina ry'umuravumba, umuravumba ni ikimera kibyazwa umuti gakondo, aho usoroma amababi yawo ukayasekura cyangwa ukayahekenya ukamira amazi yawo.

Ibimera bitandukanye, ibi bimera byifashishwa bibyazwa umuti gakondo, ibi bimera kandi bishobora no kwifashishwa babikoramo umuti wa kizungu ari wo uzwi nk'ibinini cyangwa se n'indi miti igiye itandukanye.

Aha haragaragara urusobe rw'ibimera bigiye bitandukanye, aho hari kugaragaramo ibimera biri mo imbere ya senyenge, bigaragare ko hano hantu nta muntu wemerewe kujyamo atabiherewe uburenganzira.

Aha haragaragara imbuto cyangwa se ibimera bitandukanye, aho hagaragara umuntu uri gusekura ibimera by'icyatsi. Uyu muntu ari gushaka uburyo yakoramo umuti gakondo uvura indwara zitandukanye.

Umugore uri gusoroma amababi y'ibimera bitandukanye, bishoboka ko uyu mugore aya mababi ari gusoroma agiye kuyabyaza umuti gakondo. Ari kumwe n'undi muntu inyuma ye utari kugaragara, ndetse yiteze igitambaro cy'umweru.

Aha haragaragara ikimera gifite amababi manini kizwi nk'umuravumba, ndetse impande yacyo haragaragara ibindi bimera bigiye bitandukanye, umuravumba ni ikimera kiza kizwiho kuba cyabyazwa umuti gakondo uvura indwara zitandukanye.

Aha haragaragara amacupa ari mu ibara ry'umuhondo, apfundikije imifuniko iri mu irange rya shokora, hirya y'aya macupa hagaragara icyapa kiri mu ibara ry'ubururu, iruhande rw'utu ducupa hari ikirahuri cy'amazi, aya macupa ashushanyijeho igikakarubamba ndetse n'igisiga kiri kuguruka.

Urusobe rw'ibimera bitandukanye, aho bimwe muri ibi bimera birandaranda ibindi bikazamuka bijya hejuru, ibi bimera byose biragaragara ko amababi yabyo asoromwa akabyazwa umuti gakondo.

Ikimera kizwi ku izina ry'igikakarubamba. Iki kimera kizwiho kubyazwa ibintu byinshi bitandukanye. Igikakarubamba kizwiho nko gukorwamo umuti gakondo cyangwa se kikifashishwa mu mavuta yo kwisiga.

Urusobe rw'ibimera bitandukanye, ibi bimera byifashishwa bibyazwa umuti gakondo cyangwa se bikabyazwa umuti wa kizungu uzwi nk'ibinini cyangwa se n'indi miti itandukanye ivura indwara zitandukanye.

Ibi ni ibikombe by'ibirahure, biriho udupapuro tw'umweru twandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'umukara, bipfundikije imipfundikizo igiye itandukanye, aho harimo oranje, umweru ndetse n'irijya gusa na kaki.

Aha haragaragara urusobe rw'imiti itandukanye, aho hagaragara icupa ry'umuhondo ndetse ririho igisiga kiri kuguruka, hakaba n'irindi rigufi ry'umweru na ryo ririho igisiga kiri kuguruka, icyo aya macupa ahuriyeho ni uko imiti irimo yose ikorwa mu gikakarubamba.

Aha haragaragara agasekuru ka kinyarwanda ndetse n'agasekuzo kako, bigaragare ko hari umuntu uri gusekura imiti gakondo itandukanye. Aha ngaha biragaragara ko umuti gakondo na wo ari ingenzi.

Ivase y'umweru irimo indabyo, iruhande rwayo hari uducupa turimo imiti, iruhande rw'utwo ducupa hari akandi kantu k'agasekuru ka Kinyarwanda gakoze mu ibumba karimo n'umusekuzo.

Aha hari amashusho agaragaza ibimera bigiye bitandukanye, aho hari kugaragara imbuto z'indimu zisoromye ndetse harambitseho n'icyuma, haragaragara kandi ibimera binini bigaragara ko bimeze nk'iby'ibinyomoro.

Amacupa abiri ari mu mabara atandukanye aho rimwe ripfundikije umufuniko w'umuhondo, irindi rikaba ripfundiki umufuniko usa shokora, aya macupa yose ikintu ahuriyeho ni uko hashushanyijeho igisiga kiri kuguruka ndetse n'igikakarubamba.

Iki ni ikimera kizwi ku izina ry'igikakarubamba, igikakarubamba kizwiho kugira umumaro ugiye utandukanye nko kubyazwa umuti cyangwa se gukorwamo amavuta yo kwisiga.

Aha haragaragara ibimera byahinzwe mu murima uhinze neza, aho ibi bimera amababi yabyo yifashishwa abyazwa umuti gakondo, ibi bimera na none bifite amababi ameze nk'ayibinyomoro.

Aha haragaragara imbuto zizwi nka voka, haragaragara voka imwe isatuye n'indi idasatuye inyuma yazo haragaragara ikimera kizwi nk'igikakarubamba, aho tuzi ko igikakarubamba kibyazwa ibintu byinshi bigiye bitandukanye.

Aha haragaragara ibimera bigiye bitandukanye, ibi bimera byose bikunze kwifashishwa bitunganywamo umuti gakondo ugenda uvura indwara zitandukanye. Aha ngaha, biragaragara ko ibimera hafi ya byose bifite ingenzi ku buzima bwa muntu.

Umuti uri mu icupa riri mu ibara rya oranje ndetse n'umweru, uyu muti wakozwe mu kimera kitwa igikakarubamba, iri cupa kandi rishushanyijeho igisiga kiri kuguruka.

Aha haragaragara icupa ry'umweru ririho igipapuro kiri mu ibara rijya gusa ikigina, iri cupa ribamo umuti ukozwe mu kimera cyitwa igikakarubamba.

Imbuto zigiye zitandukanye, harimo amaronji, indimu ndetse n'izindi zitandukanye, aha ngaha baragushishikariza gukoresha imbuto mu gihe y'uko ugiye gufata ifunguro cyangwa nyuma usoje kurifata.

Igikombe cy'umweru, kirekire, kiriho igisiga kiri kuguruka. Iki gikombe, gikunze kuba kirimo, ibinini bikozwe mu bimera.

Ibi ni ibimera bitandukanye bifite indabyo zigiye zitandukanye, aho ibi bimera byifashishwa mu kubyazwa umuti gakondo. Ukeneye kubibyaza umuti wasoroma amababi yabyo ukayasekura.

Aha haragaragara urusobe rw'ibimera bitandukanye, aho hari kugaragara amashyamba y'ibiti birebire, ndetse hakagaragara n'uduhuru tw'uduti tugufi, ibi byose ni ibidukikije.

Aha haragaragara agacupa kari mu ibara ry'icyatsi ndetse n'umweru gacuritse, aka gacupa gashushanyijeho ikimera kizwi ku izina ry'igikakarubamba, aha ngaha bigaragare ko harimo ibintu byakozwe mu gikakarubamba.